Igiti cy'umuhati .Imbere yacyo hari igiti cy' avoka .Umuhati wifashishwa mu gutaka urugo kandi umuhati ushobora kwifashishwa mu kugaragaza imbibi hagati y'ubutaka bw'abantu. Voka yo ni igiti cy'imbuto cyera imbuto za voka. Kiraryoha cyane kandi gifite intungamubiri k'ubuzima bwacu.